Umwana uhagaze imbere y'ivomero wambye agapira gatukura n'agakabutura k'ubururu, afite igikombe mu ntoki, ari kuvoma amazi ayavomera muri icyo gikombe afite mu ntoki.

Umugore ukenyeye ibitenge ateruye umwana mu maboko, mu ntoki afashe igipande yagiye kuvuza umwana kwa muganga, hari abagore benshi bateranye bicaye bategereje ko babafasha.

Umugore wicaye ateru umwana mu ntoki, imbere ye hahagaze umuganga wambaye ishati y'umweru ari guha uwo mwana umugore ateruye umuti akoresheje agakombe k'umweru.

Umugore wicaye ateruye umwana mu ntoki, umwana yamuzamuye agapira, imbere hicaye umuganga ufite urushinge mu ntoki, ari gutera uwo mwana urushinge rw'umuti cyangwa ari urukingo ari kumuha.

Umugabo uhagaze imbere y'iriba yambaye ipantaro yo koboyi n'umupira w'ubururu, afite ingata mu ntoki ibangishije ibirere mbere ye hari umwana uri kwikorera indobo irimo amazi.

Ababyeyi bicaye ku murongo w'urubaraza, bateruye abana, bigaragaza ko bagiye kwa muganga, bagiye kubavuza, bagiye kubakingiza.

Ahantu hateraniye abantu benshi bari kwipimisha hicaye abaganga bari kubafata amaraso bayafatiye ku rutoki kugirango ngo babashe kubapima indwara bafite bakoresheje ayo maraso babafashe.

Abana bahagaze ku iriba bari gukaraba intoki bakoresheje amazi ari guturuka mu itiyo y'icyuma iteye ahantu ku rukuta kugira ngo babashe gusukura intoki zabo bakureho umwanda.

Ikirangantego cy'umuryango ku isi ushinzwe ubuzima bwiza, mu bantu batuye isi kugira ngo isi ibashe kugera ubuzima bwiza, abawutuye babashe kugira ubuzima bwiza, ari abaturage ari n'ibidukikije kugira ngo byose bimere neza.

Ababyeyi bicaye ahantu imbere ku rubaraza, bateruye abana, bagiye bicaye ku murongo, imbere yaho hari imeza, hicayeho umuganga, agenda yakira umwe kuri umwe, uko bagiye bakurikirana.

Umwana uri kuri robine ari gukaraba intoki yambaye ikabutura y'umukara, ishati y'icyatsi kibisi, ari gukaraba intoki akoresheje amazi ari guturuka muri robine kugira ngo abashe kwikuraho umwanda uri ku ntoki.

Umwana wunamye ku iriba ari gukaraba intoki, yambaye imyenda idoze mu bi bitenge, imbere ye hateretse ibasi y'umukara arikuyikarabiramo intoki akoresheje amazi ari guturuka mu iriba.

Abantu benshi bicaye ku rubaraza, ku ntebe batonda umurongo imbere ha hicaye abaganga ba badupfukamunwa, imbere yabo hateretse imashinhini ku meza bagenda bakira umuntu umwe umwe uko bakurikirana.

Umugore wicaye uteruye umwana mu ntoki, imbere ye hahagaze umuganga wambaye ishati y'umweru ,wambaye naga mu ntoki, n'undi uri kuvura uwo mwana ari kumupfuka ku mutwe, yagize ikibazo yakomeretse.

Abantu bicaye harimo abagore, abagabo, n'abana bicaye ahantu hanze basa nkaho bategereje guhabwa serivisi bategereje ababakira, ubona ko bari ku murongo bategereje.

Umuntu uhagaze kuri rubine ari kuvoma amazi, amazi ari kuyavomera mu ijirekani y'umuhondo, imbere ye hateretse n'akandi kajerekani gato k'umweru, inyuma y'iryo riba hari ibyatsi byinshi.

Amacupa manini y'ubururu, afunze, asa neza, yifashishwa mu kubika umwuka baha abantu, iyo umurwayi arwariye kwa muganga akeneye umwuka wo guhumeka, bakawumuha kugira ngo abashe guhumeka neza.

Abana bahagaze kuri robine bambaye inifomo z'ishuri bari gukaraba amazi aturutse muri robine, imbere yabo hateretse indobo zifite amabara y'umuhondo, bari gukaraba ayo amazi bamaze gukaraba ahita ajyamo, kugira ngo bakure umwanda ku ntoki.

Abana benshi bahagaze ku iriba bari kubyigana, bari gukaraba intoki, ubona ko afite akavuyo kenshi, urushije abandi imbaraga ari we ubasha kugera imbere, akabasha kuba yakaraba intoki.

Umubyeyi wicaye ku ntebe ahetse umwana afite n'ishakoshi mu ntoki. Imbere ye hahagaze umwana wambaye agashati. Imbere y'umwana hicaye umuganga yazamuye agashati k'umwana arikumupima kugira ngo arebe uko umutima utera.

Abagore bicaye ku ntebe batonze umurongo, imbere yabo hicaye umuganga ufite igipimo ari kubandika ku kuboko. Gipima umuvuduko w'amaraso kugira ngo babashe kureba uko amaraso ari kugenda mu mubiri, niba ari kugenda neza cyangwa niba ari ikindi kibazo kugirango babashe kugufasha.

Abana bahagaze ku iriba bambaye inifomo z'ishuri, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi, imbere yabo hateretse indobo ziri guhita zijyamo amazi bamaze gukaraba, mu gihe bari kwikuraho imyanda ku ntoki.

Umusaza yicaye yambaye agapfukamunwa, yazamuye ukuboko k'umupira imbere ye hicaye umuganga wambaye ishati y'umwerube yambaye n'agapfukamunwa yambaye naga. Ari kumutera urukingo ku kuboko umusaza yashinyirize.

Umwana uhagaze, yambaye ikanzu idoze mu gitenge, afite icupa ry'amazi mu ntoki, ari kugenda akoresha intoki ayo mazi ayanyagiza ku rukuta rw'inzu kugira ngo rubashe gutota.

Umugore uhagaze ahantu muri sare, sare irimo benshi, bagaragaza ko bicaye bategereje, umugore ahagaze akenyeye ibitenge mu mutwe, nawe akenyenye igitenge ateruye umwana mu maboko, afite igipande mu ntoki ze.

Abana bahagaze ku iriba batonze umurongo bawutondesheje amajerekani, hari uhagaze imbere ari ku bapompera, amazi ava munsi y'ubutaka azamuka hejuru, bari kuyavomera ku iriba, bagenda bavoma havaho umwe, hajya undi, bakurikirana.

Amarangi y'ubururu, bahagaze ari benshi bateranye bakoze ikiziga kituzuye neza, bari kwifotoza, kuri iyo nyubako bahagazeho imbere hejuru yabo handitseho amagambo y'Ikinyarwanda avuga ati: "gira ubuzima".

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe harimo abana, harimo abagabo, harimo n'ababyeyi bose bahuriye ahantu, imbere yabo hicaye abaganga bicaye ku meza, bafite ibitabo n'amakayi bari kwandika ibyo abo bantu bari kubabwira.

Abana b'abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye inifomo z'ishuri bambaye imyenda ya kaki n'abakobwa bambaye juru, imbere yabo bateretse amasani ariho ibiryo bari kurya.

Abana bari kw,iriba iriba bavomamo amazi bayakuye munsi y'ubutaka bakonje azamuka n'umwana ahahagaze imbere yaryo y,utujejekani tubiri duto agiye kuvoma amazi atezeho imbere.

Abantu bahagaze ahantu hamwe bari kwamamaza bambaye ingofero zisa, bambaye n'imipira isa harimo abambaye imipira y'imyeru n'abambaye imipira y'ubururu, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Umubyeyi wambaye umupira n'undi wo kwifuka yicaye aterura umwana mu maboko imbere ye hicaye umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye na ga afite urushinge mu ntoki agiye kurutera umwana ari kumuvura.

Abana babiri b'abakobwa bakenyeye ibitenge bari ku iriba bafashe indobo mu ntoki, umwe ari kuyikorera undi bamaze kuvoma bagiye kugenda bafashanya.

Abagore bahagaze ku iriba batondesheje umurango amajerekani, bagenda bavoma umwe avaho hajyaho undi, uko bagenda bakurikiranye kugira ngo bataza gutanguranwa bikazamo akavuyo, bikaba ikibazo bikaba byateza na rwaserera.

Abana bicaye imbere y'iriba bari kuvomo amazi mu iriba bateze intoki bari kuyakaraba bayitera harimo umwana wambaye agapira gatukura n'undi wambaye agashati kamabara y'icyatsi kibisi n'ay'umweru.

Umusaza wicaye ku ntebe yambaye akagofero k'ikigina yakuyemo ukuboko kumwe kw'ikote, imbere hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ateze igitambaro cy'umweru mu mutwe, yashyize igipimo ku kuboko umusaza ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Abantu bicaye imbere y'inyubako bari mu nama bateye intebe, bafite impapuro mu ntoki, inyubako yanditseho ngo gira ubuzima, hano hakaba ari mu nama y' ibintu, byerekeranye n'ubuzima, harimo n'abashinzwe umutekano, banakoreramo inama ifite akamaro.

Abantu bahagaze ku iriba barikikije iriba bavomamo amazi ava munsi y'ubutaka, imbere hahagara umwana ufite amajerekani abiri n'akajerekani gato ari kuyavomera.

Abana bahagaze kuri robine bunamye bambaye n'ifomo z'ishuri, bari gutega amazi n'intoki, bari gukaraba ayo mazi, ari guturuka muri robine kugira ngo babashe gukura imyanda ku biganza byabo, babashe kwirinda indwara zaterwa n'umwanda.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na kavaruvati itukura, ari kubagezaho ibiganiro byerekeranye n'ubuzima, kugirango ubashe kubiganiraho byumvikaneho.

Abana bari ku iriba bari kuvoma amazi, harimo umukobwa mukuru uteruye ijerekani ndi kuvoma amazi ijerekan niy'umuhondo iruhande rwe hicaye abana bari kumureba uko avoma ayo mazi.

Abantu bahuriye ahantu hamwe, bambaye imipira imwe, ubona ko bahujwe n'igikorwa kimwe, bicaye ahantu mu kidari bateze amatwi umuntu bari imbere uri kubagezaho ijambo, bose ubona bari kumureba bamuhanze amaso.

Umwana uhagaze yambaye agapira k'ubururu k'amabara y'umukara n'agakabutura karimo ibara ritukura rimanuka, ari gukaraba intoki akoresheje isabune n'amazi meza. Hari umuntu mukuru umuhagaze imbere ari kumusuke amazi ku kiganza.

Abana bahagaze ku iriba, rizana amazi riyakura munsi y'ubutaka, bari kuvoma batezeho ibasi ku iriba, bari kuvoma amazi ari kuza, n'uruhande rwayo hari andi mabasi, n'amajerekani ahateretse batonze umurongo.

Abantu bahagaze bari kwifotoza bagiye basigamo umwanya hagati y'umuntu n'undi, bose bambaye udupfukamunwa bifashe neza, harimo abafite impapuro mu ntoki bari kuzifotozanya.

Abagore batatu bari kumwe babiri bari ku imbere, undi mugore ari imbere yabo ari kuvoma amazi, bayavomera mu ndobo, abandi bagore bahagaze inyuma bari gufumva ayo mazi kuko aturuka munsi y'ubutaka kugira babashe kuba bayabona, bayavome.

Abantu guca amahame bakoze uruziga bafite impapuro mu ntoki zanditseho amagambo bigaragaza ko bari mu nama bari kwiga fr ay magambo yanditse kuri izo mpapuro hari ibiganiro bagiranye.

Abantu bahagaze ku ivomesherezo, aho abantu bajya kuvomera amazi batonze umurongo amajerekani ari ku murongo uko agiye akurikiranye, havomaho umwe hakurikiraho undi uko bagiye bakurikiranye kugira ngo birinde akavuyo.

Umugore uhagaze ku iriba, ukenyeye igitenge, wambaye umupira w'ubururu, urimo amabara y'umweru n'umukara agiye akasemo wambaye n'ingofero y'ubururu mu mutwe ari kuvoma amazi ayavomera mu ijerekani iteretse ku iriba.

Umwana wunamye ku iriba yambaye ikabutura itukura yambaye n'agashati k'amaboko maremare imbere ye hateretse indobo yateze amaboko ku iriba ari kunywesha amazi umunwa amazi asohoka muri robine ajya ku ntoki akayanywera ku ntoki.

Ahantu hahuriye abantu benshi mu gisambu hubatsemo ikidari cyicayemo abaganga bari gutanga ubuvuzi ku ndwara zigiye zitandukanye, abantu benshi bahuriye baje kwisuzumisha abandi baje kwivuza, kugira ngo babashe kubona ubuvuzi.

WASAC ni ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kugeza amazi meza ku baturage mu buryo bworoshye kandi bwihuse kugira ngo buri muturage wese abashe kugerwaho n'amazi meza yo gukoresha, n'abaturage bagikoresha amazi mabi atera indwara yanduye.

Imodoka nini, ziriho amashitingi y'umweru, afite icyapa cyanditseho wa efupe zishushanyijemo ikigori, imodoka zitwara ibiribwa byo kujya gufasha abantu bababaye bakeneye ibyo kurya.

Umugabo uhagaze ku iriba, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru irimo amabara atandukanye, ufite ijerekani imbere ye, ijerekani y'umuhondo bigaragaza ko uwo mugabo yari yagiye kuvoma amazi.

Ahantu hanini hateguwe kugira habashe guhurizwa amazi babashe kuyasukura bakuremo imyanda, kugira ngo abaturage babashe kuba bayakoresha babona amazi meza asukuye yo kwifashisha mu byo bakora bya buri munsi.

Abantu bazengurutse ku iriba bafite amajerekani abandi bahagaze bari kureba, hari abana begereye ku iriba umwe afite akajerekani arimo avoma undi ahagaze inyuma ari kumupompera amazi ayavana munsi y'ubutaka azamura undi ari kuyavoma.

Umugore uri kugenda mu nzira yikoreye indobo itukura ku mutwe, afite n'indi ndobo y'umuhondo mu ntoki, bigaragaza ko avuye kuvoma amazi ayavomeye muri izo ndobo afite mu ntoki.

Umwana wikoreye ijerekani avuye kuvoma, iruhande rwe hari undi mugabo uri kumufasha kumukorera, umwana ari guseka kandi yikoreye ijerekani y'umuhondo, imbere yaho ifite icyapa cyanditseho UNICEF.

Umwana wicaye ku ntebe yazamuka ukuboko kw'ishati, imbere ye hahagaze umuganga wambaye ishati y'umweru yambaye na ga mu ntoki afite urushinge arikurumutera no mu rukingo cyangwa umuti ari kumuha.

Abantu bahagaze ku ivomero batondesheje umurongo amajerekani. Bagenda bavomera ijerekani kuko umurongo ugiye ukurikiranye. Havaho umwe hajyaho undi, bagenda bavoma gutyo kugira ngo bagabanye akavuyo.

Umwana w'umukobwa wunamye ku iriba wambaye agakanzu k'umweru imbere ye afite indobo y'umweru ari kuyoza n'iruhande rwe haturitse indi ndobo arashaka kuza kuzivomera nyuma yo kuzoza.

Umwana uhagaze afite akajerekani k'ubururu mu ntoki, imbere ye hari undi wunamye wambaye agakabutura k'umuhondo, n'agasengeri k'umukara, afite isabune mu ntoki ari gukaraba, akarabira mu ndobo.

Ahantu hateraniye abantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu bari kubyina bakoma mu mashyi bishimye ubona ko bahuje ikintu kimwe bahuriye ahantu hamwe bose.

Umubyeyi wicaye ku gitanda imbere ye hari umwana uryamye kuri icyo gitanda, imbere yabo hahagaze abaganga bambaye amataburiye cy'umweru, bari kuvura uwo mwana bamufashe ukuboko bigaragaza ko uwo mwana arwaye.

Abana bahagaze imbere ya robine, bambaye inifumo z'ishuri, bambaye amashati y'umuhondo n'amakabutura, n'amajipo y'ubururu, imbere yabo hari robone ziri kuvamo amazi, abana bari gukaraba intoki bakoresheje amazi n'isabune.

Umugabo uhagaze ku iriba, wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati yakarakaro, ari guseka imbereye mumaguru hari ijerekani kandi yifatishijeho amaboko, inyuma ye hari urugo rw'imiyenzi

Ahantu hubatswe, hagenewe kwegeranya amazi, kugira ngo abashe gutunganywa, bayakore abe meza bayakuremo imyanda, kugira ngo abantu babashe kuba bayakoresha, mu buzima bwa buri munsi imirimo itandukanye.

Abantu bambaye imipira y'ubururu yanditse inisefu, harimo abakobwa bane n'umusore umwe, bahagaze bari kwifotoza, imbere yabo hari icyapa cyanditse yuniisefu.

Umugabo n'umugore, bicaye ku ntebe, umugabo yafashe umugore ku rutugu, ukundi kuboko yagushyize ku nda, umugore bari kumwe atwite, imbari yabo hicayeho umujyanama, bari kuganira ku buzima bw'imyororokere, n'uko bagomba kwitwara.

Inyandiko itwereka kurandura kanseri mu Rwanda, itwereka imibare y'abarwayi ba kanseri mu Rwanda n'abo ihitana buri mwaka, iriho ifoto y'umugabo bita Sabe Nsanzimana, ni minisitiri w'ubuzima mu Rwanda.

Umugabo uhagaze ku iriba yafatishijeho ukuboko imbere ye hateretse amajerekani, iruhande rwe akikijwe n'abana bicaye hasi n'abandi bahagaze bose baje kuvoma.

Umugore wicaye imbere y'ivomero, imbere ye hateretse ibasi, muri ayo mabasi hateretsemo ijerekani, ari kuvomeramo amazi, mu ijerekani y'umuhondo, inyuma ye hanitse imyenda n'iruhande rwe hateretse andi majerekani n'amabasi.

Abantu bicaye ku meza, imbere yabo bafite amacupa y'amazi, bari kuganira, ku ngingo zitandukanye, imbere yabo hari icyapa cyanditseho yunisefu.

Ahantu hatetse imifuka myinshi hari abagore babiri bateruranya umufuka mu maboko, hejuru iyo mifuka hahagaze umugabo uri kuyibahereza abakorera uko bagenda baza.

Umugore uhetse umwana imbere hatetse indobo, ari koza umufuniko w'indobo akoresheje amazi ari mu ndobo, imbere ye hari rubine bakoresha bakura amazi munsi y'ubutaka.

Abantu benshi bahagaze ku iriba baje kuvoma amazi, harimo abagore bateruye abana harimo n'abagabo bahagaze n'abana, imbere kuri robine hari umwana ufite amajerekani uri kuvoma, inyuma hari umugore uri gupompa amazi azamuka aturuka munsi y'ubutaka, imbere hari ruri kuvoma.

Abantu bicaye ahantu hamwe, bambaye imyenda y'abakozi bo kwa muganga, imbere yabo ku meza hari imiti iri mu dukarito, igaragaza ko bari ahantu bagiye gutanga ubufasha, bagiye kuvura abaturage hafi yabo

Abantu bicaye mu cumba bazengurutse bakoze uruziga, hagati muri bo harimo umugabo uri kugenda abanyuramo, abaganiriza abagezaho ijambo mu byo bari kuganira bateguye.

Umubyeyi wicaye ateruye umwana mu ntoki, imbere ye hahagaze umuganga wambaye itabuliya y'umweru, umubyeyi yazamuye umupira w'ukuboko k'umwana, muganga ari kumutera urushinge ku kuboko.

Umubyeyi uteruye umwana. Umwana bamwambuye umwenda wo hejuru. Imbere ye hicaye umuganga afite agakoresho bifashisha bapima uko umutima utera. Umuganga agafite mu bitugu. Ari gukora kuri uwo mwana ku matama, kugira ngo abashe kumufasha.

Umugabo n'umugore bari ku iriba bari kuvoma amazi, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ijuri y'umuhondo mo imbere yambayemu n'agapira k'umweru.

Umugore wicaye asutamye imbere y'iriba ari kuvoma amazi, ari kuyavomera mu ijerekani kandi ayiteretse mu mabazi, inyuma ye hanitse imyenda ku mugozi, amaze gufura yayanitse ngo izuba riyigereho yume.

Abantu bahagaze ku iriba bazengurutse iriba, aho umwana uri imbere afashe amajerekani ari kuvoma, inyuma hari umumama uri gupompa amazi ayavana munsi y'ubutaka azamuka kugirango ngo umwana abashe kubona amazi yo kuvoma.

Umuntu uteze ikiganza ku itiyo y'icyuma irikosora amaro atezeho ikiganza kuri ayo mazi asa nkaho ari gukaraba intoki ya mazi harimo umugende uri gutemba amazi ashoka.

Abantu bicaye mucyumba kinini, bicaye ku ntebe ziteye ku murongo buri wese afite igitabo mu ntoki bose bahanze amaso imbere yabo ahagaraze umuntu uri kubagezaho imbwirwaruhame ariko kubagezaho ibiganiro bose bamuteze amatwi.

Abana benshi bari ku iriba bafite amajerekani n'indobo batonda umurongo, bari kugenda bavoma hava aho umwe, hajyaho undi uko bakurikirana ntawe uciye ku bandi.

Umwana uhagaze ku iriba yambaye imyenda itoze mu bitwenge ari gukaraba intoki ku iriba akoresheje amazi ari gusohoka ku iriba ari gukarabira hejuru y'ibasi iteretse munsi y'iryo riba.

Abantu benshi bateraniye ahantu bahagaze ahantu hamwe bari kwifotoza bavuye mu nama, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza inama bari barimo ibyo yari irimo iganiraho n'intego yari ifite.

Abagore n'abagabo bahuriye mu cyumba kimwe, bambaye imyenda y'abajyanama b'ubuzima, bahuye bari kwiga, bafite ibitabo mu ntoki, imbere yabo hari umuntu uri kubasobanurira, bamuteze amatwi kandi bose bari kumureba.

Umugabo uhagaze ari kumwe n'abana bari gusuhuzanya, wambaye umupira wanditse wold vision. Umuryango ufasha abana mu myigire no mu mibereho kugira ngo babashe kubaho neza, kandi babashe kwiga neza mu buryo bworoshye kandi bitabavuna.

Ahantu hateretse agakarito karimo inshinge, ku ruhande rwaho hari n'agacupa karimo umuti, urwo rushinge barukoresha bakuramo umuti muri ako gacupa bawutera umuntu.

Abagabo bicaye imbere, bicaye ku meza, imbere yabo hica abandi bantu bafite amashini imbere yabo bafite indangururamajwi, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ko bari kuganira ku cyorezo cya mabaga.

Sange one stop cter ikigo cy'Igihugu gikorera muri Polisi gishinzwe gufasha abantu bahuriwe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe bafashwe ku ngufu bakabafasha kuba bareba ibimenyetso kugira ngo babashe kuba byakurikiranwa hakiri kare babashe no kubona ubuvuzi mu buryo bwihuse.

Abantu bahagaze bari kwifotoza bambaye imyenda ya siporo bagaragaza ko bavuye muri siporo bari kwamamaza ibintu bitandukanye bafite ibyapa mu ntoki bose ubona ko bahuriye ku mugambi umwe.

Abantu bateraniye mu cyumba kimwe bahuriyemo ari benshi bari bari mu nama bayishoje, bari kwifotoza bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo babashe kuzabyibuka icyo gihe kandi bazabashe kubyibukiranyaho kugira ngo ibyabereye aho ngaho bitahasigara ahubwo babijyane.

Umugore wicaye ku musambi uteriwe umwana impande ye hicaye undi mwana imbere hari urutaro ruriho ibigori by'ibyo bigori muri ibyo hateretsemo imironko ifite ibara ritukura nayo irimo ibigori arikoresha yifashisha apima.

Umugabo uhagaze yafunze isura ubona ko yarakaye atishimye ababaye ,ari kurira amarira ari gutemba ku matama amaso yatukuye.

Umugabo wicaye asutamye mu muhanda ku zuba yazamuye akaboko akandi yagafatishije hasi, yambaye imyenda isa nabi ubona ko ari umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abant bahagaze mu kidari bifotoza imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umukara hirya hariho ibikoresho bitandukanye byifashisha mu buvuzi bari gutanga serivisi.

Abagore batatu bicaye ahantu hamwe, bose bambaye udupfukamunwa bari kuganira ku bintu runaka, bafite impapuro mu ntoki n'ibindi bikoresho iruhande rwabo, biri mu gikapu.

Abana bicaye ahantu hamwe bishimye bari gukoma amashyi bose bambaye imipira isa bisa nk'aho bahuriye ahantu hamwe mu mugikorwa kimwe bambaye udutambaro tw'umweru mu mutwe.

Umukecuru wicaye hanze, imbere hateye amashyiga atetse isafuriya yashyizemo umwuko atetse acanye inkwi imbere hari igikombe k'icyatsi kibisi.

Umugore uvuye guhinga ufite isuka mu ntoki yikoreye igitebo cy'igitebo kirimo imigozi y'ibijumba inyuma ye hari inzu yubakishije amategura igaragaza ko ari mu cyaro.

Umugabo wicaye ahantu mu cyumba yifashe mu gahanga akinyeye igitenge yicaye ku mukeka afunze amaguru, bigaragara ko ari imfungwa ari ahantu muri gereza.

Abantu bicaye ahantu bari mu nama bicaye imbere y'imeza, imbere yabo hateretse imashini n'amacupa y'amazi, irimo umugore ufite indangururamajwi, afite ijambo ariko kugezaho ku bamumukurikiye.

Ibitaro bya Karayesi, ni ibitaro bifasha abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, bikabafasha kuba babavura bakabasha kuba basubira mu buzima busanzwe ari bazima, igihe barwaye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu by'imyitwarire kugira ngo babashe kugenzura uko abantu bahagaze mu myitwarire mu mutwe, ubuzima bwa byo n'imitekerereze kugira ngo babashe kubitaho kandi babashe gukomeza kubafasha kugira ubuzima bwiza abafite ibyo bibazo.

Umwana wicaye ku ntebe yambaye inifomu y'ishuri, yambaye ishati y'umweru na karuvati, n'ikabutura y'umukara, afite biswi mu ntoki arimo ayirya aseka yishimye.

Abantu bicaye mu cyumba kimwe bicaye ku ntebe zikurikiranye zigiye ziteye ku murongo, imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ibiganiro akoresheje amajwi n'amashusho, agenda abasobanurira ibintu uko bigiye bikurikiranya.

Umugore wicaye yambaye umupira w'umweru yunamye yashyize amaboko mu mutwe, ubona ko afite ibitekerezo byinshi ari gutekereza ibintu byinshi mumutwe.

Abantu bicaye, umugore afite mikoro mu ntoki, iruhande rwe hicaye umugabo wambaye agapfukamunwa, inyuma yabo hari ibyapa byanditseho arabisi bigaragaza ko bari mu nama, imbere yabo hiyicaye abantu bari kubwira, bari kugezaho ubutumwa.

Umukecuru wicaye ahantu hanze hasi ku musambi, iruhande rwe akikijwe n'abana benshi bari kuganira ubona ko ari abuzukuru be baje kumusura bari kumwe.

Umugabo wicaye hasi wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara bamushyizeho amafoto ku mubiri, yambaye amapingu bamucuritse hasi yakoze ibyaha.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bagiye bicaye ku buryo butandukanye, imbere yabo hateretse imeza n'imbere yabo hahagaze umugabo uri kubagezaho ijambo, bose bamuteze amatwi.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe wicaye ku muhanda, yitangiriye itama yambaye imyenda yacikaguritse, afite amazi mu ntoki ari mu mashashi, ubona ko byamucanze yicaye ku zuba.

Umugore uhagaze munzu wambaye ikote rigufi rifite amaboko magufi y'umuhondo, inyuma ye hari ibintu bipanze mu tubati ibyo kurya by'ubwoko butandukanye.

Umugabo wicaye ku muhanda wambaye imyenda isa nabi, ufite umusatsi urimo akavuyo ubona ko abana n'uburwayi bwo mu mutwe, impande ye hari ibishashi, yicaye ku gikarito ubona ko ahantu yicaye naho hasa nabi.

Abantu bicaye hamwe harimo abagore batatu bicaye ku ntebe imwe, imbere hicaye umugabo wazinze ukuguru kw'ipantaro, ubona ko bari kumuganiriza, baganira ku ngingo zitandukanye, inyuma yabo hari imirima iteyeho itsina.

Umusaza wambaye ishati y'umweru, irimo uturongo tw'umukara, ukenyeye igitambaro ku rutugu, wambaye ingofero, umusaza wakutse amenyo, ufite icumu mu ntoki ari guseka.

Icyumba kinrimo imeza n'utubati, imbere y'imeza hicaye umugore, imbere hicaye abagore babiri bateruye abana, ari kubabaganiriza ari kubabwira ibintu runaka mu buryo bwo kwita ku bana bafite.

Imodoka y'umweru nini, imodoka yagenewe gutwara ibikoresho byo kwa muganga, aho ari ivuriro rigendanwa babasha gufashirizamo abantu bafite uburwayi, aho iyo modoka yajya ariho hose.

Abantu bari mu biganiro bari kwiga ku nama imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi ari kubabwira abandi bamuteze amatwi, inyuma y'uwo mugabo hari icyapa yanditseho amagambo avuga ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Umugore wambaye isenge y'umweru ufite akadodo mu ntoki arikokanyuza mu menyo, yashinyirije yafunze amaso yafunze isura bigaragaza ko yabitinye.

Umwana wicaye ku ntebe araramye imbere hari umuganga wambaye ga mu ntoki ufite udukoresho twabugenewe yamwasamuye ari kureba mu menyo ari kumufasha.

Abagore babiri bahagaze bafite impapuro mu ntoki, umwe yambaye ikote ry'ubururu, undi yambaye ikoti ritukura, uwambaye ikoti ry'umutuku, ari kwandika ku rupapuro afite mu ntoki.

Umugabo wasamye ufite akadodo k'umweru mu ntoki, ufite isume ku rutugu, ari kunyuza ako kadodo mu menyo, akuramo utwanda dushobora kuba twasigaye mu menyo kugira ngo ayakorere isuku.

Umuntu uryamye ku ntebe araramye areba hejuru yasamye, imbere hari umuganga umufashe ku munwa, afite igikoresho cyabugenewe ari kumuvura mu kanwa, agiye kumukura amenyo cyangwa ari ikindi kibazo agiye gukoramo.

Umugabo uhagaze ufite akadodo k'umweru mu ntoki yagafatishije amaboko yombi ari kukanyuza mu menyo, ari gukuramo utwanda twaheze mu menyo mu gihe yari arimo arya, twari tumubangamiye.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, uhagaze imbere y'indorerwamo, ari muri douche ari koza amenyo, akoresheje agakoresho kabugenewe kugira ngo abashe gukura imyanda yafashe mu menyo.

Umusaza uhagaze imbere y'indorerwamu, imbere hari ahantu bakarabira intoki, afite akantu mu ntoki karimo umuti agiye kuwufata, agiye kuwukoresha ari kwivura.

Abantu bahuriye ahantu hamwe harimo abantu bicaye hasi kuri sima, n'abandi basutamye n'abahagaze bari kwifotoza ubona ko bose bahuriye ku gikorwa kimwe, kandi bose bahuje umugambi umwe bari bahuriye ahantu hamwe.

Inyubako yubakishije ibirahure igeritse kabiri itanga ubuvuzi bw'amenyo, abarwayi bajya kwivuza igihe bafite ikibazo cy'amenyo bashaka ubuvuzi bwayo.

Umuntu wicaye yasamye, imbere ye hahagaze umuganga wambaye ga, ari kunyuzamo agakoresho mu kanwa ke, kugira abashe kumupima arebe ikibazo afite mu kanwa.

Umugabo wambaye agapira k'umweru afite akadodo k'umweru mu ntoki ari kukanyuza mu menyo, ari gukuramo utwanda cyangwa se hari ikindi kibazo afite mu menyo ashaka gukemura akoreshe ako kadodo.

Umwana uryamye ku gitanda, araramye amaso ari kuyarebeshe hejuru, imbere ye hahagaze umuganga wambaye ga ku ntoki, ari kuvura uwo mwana mu kanwa, ari kureba amenyo ye uko ameze.

Umugabo uhagaze imbere y'indorerwamo yambaye ubusa hejuru, afite akadodo mu ntoki, agafatishije intoki zombi, ari kugakugacisha mu menyo, akuramo utwanda twafashemo cyangwa akandi kantu kari mu menyo, kamubangamiye ari kuyakorera isuku.

Abantu bari mu ishuri, imbere y'ikibaho hari abana b'abanyeshuri n'umwana w'umunyeshuri ufite igishushanyo gikoze nk'amenyo, bari kubereka uburyo boza amenyo bakoresheje iki gishushanyo kugira ngo abo bana bajye babasha kwikorera isuku y'amenyo.

Umugabo wambaye amarinete, uri guseka, wambaye umupira w'umweru, yatunze udutoki ku menyo ye, ubona ko ari umugabo umeze neza, ntakibazo, afite amenyo asa neza.

Umuntu uryamye ku gitanda, imbere ye hahagaze abaganga babiri bari kumuvura yahasamye kureba amenyo, bari kumuvura ikibazo cy'amenyo.

Icyumba kirimo imashini, harimo n'intebe yo kwicaraho, umuntu yicaraho iyo yagiye kwivuza amenyo, izo mashini bakazikoresha bari kumuvura.

Abantu bicaye ku meza bagiye bakurikirana ku murongo bambaye imipira isa y'icyatsi kibisi yanditseho ngo tubiteho nyuma yabo hahagaze abaganga bari kugenda babasuzuma imwe kuri umwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini kirimo intebe bafashijerizaho umurwayi bashobora kwicaraho akegama mu gihe barimo kumuvura amenyo cyangwa ibindi bibazo bisaba kumureba maso.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ufite akadodo mu ntoki yagafatishije amaboko yombi, ari kukanyuza mu menyo ari gukuramo umwanda wafashe mu menyo.

Ni umugore n'umwana wambaye isurubeti, imbereri y'umweru bafite uburoso bwo kwiboshesha mu ntoki hariho umuti wabugenewe wo koza amenyo bagiye koza amenyo bakoresheje ubwo buroso n'uwo muti.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ahagaze imbere y'indorerwamo afite aka mu ntoki arikukanyuza mumenyo ari gukuramo utwanda twafashemo mugihe yarimo arya.

Umuhanda w'igitaka uri kunyuramo abantu benshi harimo abakecuru babiri barigendana bafite inkoni mu ntoki bagenda bicumba bakenyeye amaniro.

Umusaza uri gutambuka agenda afashe ku byuma bibiri bimukikije uruhande rw'ibumoso n'urw'iburyo, iruhande rwe hari umukobwa wambaye imyenda y'umukara uri kumufasha.

Umugore wicaye imbere y'imeza, iruhande rwe hari umwana, bari kubara udupapuro turi ku meza bagenda batwegeranya, kamwe kamwe ku kandi ubona ko bari kuganira bishimye baseka.

Umusaza wicaye ku gatebe imbere y'umuryango ufite ikibando mu maguru, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hicaye abana babiri bose bafite umugati mu ntoki bari kurya.

Umusaza wicaye ku buriri ufite igikombe cy'kirahure kirimo amazi, ari kunywa amazi ari muri icyo kirahure, imbere ye hahagaze umukecuru wambaye agapira k'ubururu n'amarinete ari kumuganiriza.

Umuryango wateranye n'abasaza n'abakecuru n'abana babo n'umumwuzukuru bari hamwe bari guseka bishimye. Ubona ko bameze neza bameranye neza mu bihe barimo byabo.

Umukecuru wicaye, inyuma ye hari umukobwa, bigaragaza ko uwo mukobwa ari kumwitaho, bari guseka, baganira, bicaye ahantu hamwe mu cyumba, ubona ko bameze neza bishimiranye nta kibazo.

Umuntu wambaye imyenda y'abarwayi kwa muganga uhagaze hasi yambaye ibirenge, mu ntoki afite imbago abarwayi bifashisha mu gihe bari kwimenyereza kugenda, iyo bamaze igihe batagendesha amaguru bari barwaye.

Umukecuru wicaye imbere y'imeza afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki imbere ye kumeza hateretse agakarito karirimo ibinini hari umuganga umuhagaze i ruhande ari kumuhereza ibinini mu ntoki ngo abinywe.

Abakecuru babiri bari ahantu mu biti hari akayaga keza k'amahumbezi, bari muri siporo bafashanya ubonako bari kuganira kandi bishimye bagamije kugira ngo bagire ubuzima bwiza kuko siporo ifasha abantu gutuma bagira ubuzima bwiza bakamera neza.

Abantu bicaye ku meza bafite amakarita mu ntoki ubona bari kuganira bari gukina baseka bishimye nta kibazo bafite ubona banezerewe.

Abantu bicaye, bateranye, bateraniye mu rugo ari abana, ubona ko ari umuryango wateraniye hamwe, hicayemo umukecuru hagati yabo bana, asa nkaho ari umubyeyi wabo.

Umusaza wicaye mu ntebe imbere ye hicaye umukobwa w'umuganga yashyize umusaza igipimo ku kuboko gipima umuvuduko w'amaraso ari kureba uko amaraso y'uwo musaza ari gutembera mu mubiri.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku meza, imbere ya bo hateretse udusorori turimo ibiyiko bari kurya, iruhande rwabo hateretse ku meza n'ikirahure kirimo amazi, inyuma yabo hahagaze umusore wambaye amarinete arimo asunika uwo mu umusaza ku gatebe.

Umusaza uhagararanye n'umukobwa wambaye amarinete yamufashe ku rutugu bari kwifotoza, ubona ko ari umwana n'umubyeyi we bameranye neza bishimye, ubona nta kibazo bafitanye.

Umuryango wateranye hari umusaza n'umukecuru n'umugabo n'umugore n'abana bari kumwe, bari kuganira baseka bishimye ubona ko banezerewe.

Umukecuru uhagaze ahantu mu gikoni, ufite isahane y'ibiryo ari kurya aseka, ubona ko ari umukecuru urikwiyitaho kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, kandi abashe kwirinda indwara zaterwa n'imirire mibi.

Umusaza wicaye mu ntebe wambaye ishati itukura ambaye n'amarinette imbere hicaye umukobwa wambaye imyenda y'abakozi kwa muganga yashyize igipimo kuri uwo musaza ari kumupima umuvuduko w'amaraso kuko amaraso atembera mu mubiri.

Abasaza babiri bari kugendana mu nzi bafatanye ku rutugu, umwe yambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'ikigina, bari kugendana mu kayira bagenda baganira gahoro gahoro.

Abakecuru batatu, bahagaze hamwe umwe muri bo, afite telefone mu ntoki bari kwifotoza, bose bareba muri iyo telefoni kugira ngo ifoto yabo ize isa neza kandi bose bagaragaramo neza.

Umusaza wicaye mu ntebe, imbere ye hicaye umuganga, ari kumwambika igipimo ku kuboko bifashisha bari gupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo barebe uko amaraso agenda mu mubiri nimba nta kibazo.

Umusaza uhagaze wambaye ipantaro ya kake n'umupira w'umukara ari kwimenyereza kugenda, yari amaze igihe arwaye atari kumenyera kurambura amaguru, agendera ahantu hagati, afashe ibyuma ku ruhande, ku kuboko kw'ibumoso no kukuboko kw'iburyo, ku ruhande rwe hari umukobwa uri kumufasha kumumenyereza.

Umukecuru n'umusaza bicaye ahantu hamwe, bicaye imbere y'imeza iriho ibipapuro bari gufashanya kubisoma, baganira gahoro gahoro, umusaza yambaye rinete kugira ngo abashe gusoma neza, afite na terefone mu ntoki.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo harimeza iteretseho ibinini, ubonako bari kuganira baseka bareba kuri ibyo binini bibari imbere bagiye kubikoresha bivubura.

Umusaza wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga wambaye umupira w'umukara, n'ipantaro y'umukara yambaye n'amaneti inyuma ye hahagaze umukobwa bari kumusunika muri aka kagare bari kuganira bose uri kubona ko bishimye banezerewe.

Abahinzi bahagaze mu murima uteyemo imyaka bafite amasuka bamwe bayazamuye abandi bazamuye ibiganza hejuru ubona ko bishimiye umurimo wabo.

Umukecuru wicaye ku gitanda yambaye umupira w'imbeho w'umweru, yazamuye amaboko hejuru afite urudodo yafatishije amaboko yombi, imbere ye hahagaze umuganga uri kumufasha kumwitaho.

Abantu bateranye bari guseka bishimye bigaragaza ko ari umuryango umusaza n'umukecuru n'umugabo n'umugore n'abana babo, bari kumwe bari ku kazuba bari guseka bishimye.

Umusaza wicaye mu ntebe, wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umweru, iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye imyenda yo kwa muganga y'abantu bita ku barwayi, wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, afashe uwo musaza mu bitugu ari kumufasha.

Abagore bari mu cyayi bari gusarura bafite ibitebo impande yabo bari gusaruriramo, icyayi uko bagisarura bagishyira muri icyo gitebo kibari inyuma bose bahuriza hamwe.

Umusaza wicaye mu ntebe yashyize igitambaro ku maguru. Imbere ye hari umukobwa yicaye yamufashe akaboko ari kumufasha amuganiriza, ubona ko bameranye neza nta kibazo.

Ahantu hicaye abagore bicaye ku ntebe zitandukanye harimo n'abicaye hasi, harimo n'umugore w'umuzungu aterura umwana w'umwirabura bari kuganira ubona ko bahuje ikiganiro.

Umukecuru wambaye amarinete, ahagaze imbere yimeza, ari kwikatiraho imboga imbere ye yicaye umukobwa wambaye agapira k'ubururu bari kuganira bari guseka.

Umukecuru wicaye imbere y'imeza, ku meza hateretse uducupa hari n'ibinini birambitse ku meza, umukecuru wambaye ishati y'umuhondo, wambaye na marinete afite agacupa mu ntoki ari kugenda akuramo ibinini.

Umusaza ufite telefone mu ntoki ari kuyirebamo. Iruhande rwe hicaye umukobwa wambaye imyenda yo kwa muganga, wambaye na kantu mu ijosi. Umukobwa yari kwita kuri uwo musaza baganira.

Umusaza bari kumuhagurutsa ku gitanda, umusaza wambaye imyenda y'imikara, iruhande rwe hari umusore wambaye ishati y'umweru no ku rundi ruhande hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, bari gufasha umusaza kuba yahaguruka ku buriri kugira ngo babashe kugira aho bamujyana.

Umusaza uteruye umwana, umwana ufite igipupe mu ntoki, umusaza yashyizeho izuru, ku zuru ry'uwo mwana bose bahumbije amaso ubona ko bameranye neza nta kibazo.

Umusaza n'umukecuru bicaranye ahantu kumeza, imbere yabo hateretse amacupa y'ibnini umukecuru afite urupapuro ari gusoma, umusaza afite ibinini mu ntoki ngiye kubinywa.

Abaturage bicaye munsi y'igiti bari kuganira bakoze ikizeru, imbere yabo hicaye umugabo ufite imashini ku maguru ye ari kubagezaho ikiganiro.

Umukecuru wicaye ahantu hasi, mbere ye hari ibibabi byinshi, imbere ye hari amashyiga ateretseho isafuriya ipfundikije indi, acanye mu mashyiga, akoresheje inkwi.

Umukecuru wicaye ku gitanda yambara amarinete, wambaye umupira w'ubururu, afite ikirahuri mu ntoki, ari kunywa ibinini, ari kubinywesha amazi, amazi ayafite mu kirahure, iruhande rwe hari amashuka yariyicaye ku gitanda gishashe neza.

Umugore wicaye ahantu mu twatsi, wambaye imyenda ya siporo, yarambuyeho tapi muri ibyo byatsi, ayicayeho yarambuye amaguru, amaboko yayafatishije munsi y'amavi, ari guhina umutwe akawukoza ku mavi, ari kugorora umugongo.

umusaza wicaye imbere y'imeza, hanze Hicaye umugore wambaye marineti uwo musaza afite agacupa mu ntoki k'ikigina karimo imiti n'imbere ye hateretse urupapuro hejuru hateretse uducupa tw'umweru turimo ibinini rero uwo mugore wicaranye afite imashini ari kuyakandaho.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda bari kugenda bamamaza imbere yabo hari abafite icyapa cyanditseho ngo rubyiruko ni mwe hazaza h'u Rwanda, irinde virusi itera sida ipimishe uyu munsi bigaragaza ko bari kwamamaza kwirinda indwara ya sida.

Kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende ni ugukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kandi ugakoresha amazi atemba, ukirinda kwegera umuntu wagaragaje ibimenyetso, ukirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wagaragaje ibimenyetso by'iyo ndwara kugira ngo ubashe kuyirinda n'ubundi buryo butandukanye.

Umugabo uhagaze munsi y'igiti ufite icyapa cyanditseho ko urukingo rw'icyorezo cy'Ubushita bw'Inkende cyabonetse, abantu bose bashobora kurugeraho kugira ngo babashe kukingiza icyo cyorezo kibashe kurwanywa kandi bagihashye.

Umukecuru uteze igitambaro gitukura, upfutse ijisho, baripfukishije igitambaro cy'umweru, hazengurutseho akantu gafashe hejuru mu gahanga, n'akandi kamanutse gafashe ku itama.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kimwe bamwe bicaye imbere abandi bari inyuma yabo bagiye bakurikiranye, kugera inyuma bari mu cyumba kimwe bari kwifotoza bari bahuriye mu nama imwe bari bafite umugambi umwe.

Abantu bicaye ari benshi, bifashe neza bateze amatwi, bakurikiye umuntu ubahagaze imbere ari kubabwira ijambo cyangwa se ari kubagezaho ubundi butumwa.

Udukoresho bifashisha bari gufata ibipimo, mu gihe bari gupima abantu barwaye icyorezo, cy'ubushita bw'inkende, kugira ngo babashe kubamenya, babashe kumenya uko babakurikirana, kugirango ngo nibasanga hari abarwayi babiteho batabasha no kwanduza abandi.

Arabisi ikigo cy'igihugu cy' u Rwanda gishinzwe ubuzima imiti n'amavuriro ya leta n'ayigenga, kugira ngo bibashe gukurikiranwa bibashe gutanga ubuvuzi bwiza ku baturage.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amamashini bifashisha bafasha abarwayi, kirimo ibitanda abarwayi baryamaho, buri gitanda kigiye gitandukanijwe n'ikindi hagiye harimo amarido abigabanya uko bigiye bikurikiranye.

Umusaza wicaye mu ntebe, yicaye n'umukobwa wambaye imyenda yo kwa muganga wambaye itaburiya y'ubururu yashyize igipimo ku kuboko k'uwo musaza ari kumupima umuvuduko w'amararaso.

Inyubako yagenewe gufashirizwamo abana bato b'impija bakivuka, mu gihe bafite ibibazo mu gihe bavutse batuzuye cyangwa mu gihe barwaye, mu gihe bakiri impinja bakabafashiriza muri iyo nyubako.

Umugore wicaye mu ntebe, uteruye umwana w'uruhinja mu ntoki, umwana wambaye imyenda y'imyeru, imbere ye hahagaze umuganga, wambaye ishati y'umweru, wambaye n'agapfukamunwa, wambaye na rinete, ufite n'ingofero mu mutwe, uri gufasha uwo mwana amuvura.

Umugabo wicaye yambaye ishati irimo amabara atandukanye, imbere ye hicaye umugabo wambaye ikote ry'umukara ryanditseho RBC yamushyize igipimo ku kuboko ari gupima umuvuduko w'amaraso.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako iteye amarangi y'umukara, bari kwifotoza, kuri iyo nyubako handitseho amagambo atwereka ko ari ku bitaro bya Rwamagana, abo bantu bari kwifotoza harimo abirabura n'abazungu, bose bavanze.

Ikigo kinini gifitemo inyubako nini zitandukanye, harimo n'ubusitani bunini, bugaragaza ko ari inyubako nshyashya zubatswe vuba, zitamaze igihe, zitarasaza, inyubako zigisa neza, zidafite umwanda.

Inzu yo kwa muganga hari icyapa kitwereka aho ibintu byose biherereye, kitwereka ahantu ibintu byose biherereye hari ibiri hejuru, hari ibiri hasi, hari ibitambitse ibintu byose biri ku murongo kugira ngo umuntu wese abashe kumenya aho biri atayobye cyangwa bidasabye ko agira undi muntu ayoboza.

Utubati tugiye dutandukanye, tugiye turimo imiti iri mu dukarito n'iri mu ducupa, igiye yifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye. Kandi buri gakarito kagiye kanditseho amagambo asobanura umuti, urimo uko witwa, n'icyo ukora kugira ngo babashe kuyitandukanya.

Inyubako nini ya etage yubakishije ibirahuri by'ubururu, imbere yayo hari ubusitani ni inyubako itwereka ko ari inyubako batangira mo ubuvuzi ikorerwamo n'ibitaro byigenga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zitandukanye, harimo igitanda kiryamyeho umuntu, bigaragaza ko uwo muntu agiye kuvurwa, bifashishije izo mashini ziri no muri icyo cyumba kugira ngo babashe kumuha ubuvuzi bwiza kandi bwihuse kandi vuba.

Inzu nini iteye amarange y'umweru, imbere yayo ifite ubusitani burimo indabyo zifite amababi y'icyatsi kibisi, ku marembo y'iyo nzu handitseho amagambo atwereka ko ari ku bitaro bya Nyarugenge.

Abantu bambaye amashati y'imyeru bafite udukapu mu ntoki turimo ibyo kurya n'imbuto bigaragaza ko hari abantu bagiye gusura ahantu runaka.

Ikigo kinini kirimo inyubako zitandukanye zitangizwamo serivisi zitandukanye, Serivisi zerekeranye n'ubuzima aho abantu bajya bagiye kwivuza, bafite indwara bagiye kwivuza cyangwa bagiye kwipimisha.

Ibyicungo abana bajya kurigaho umunyenga iyo bari gukina bikunda gushyirwa mu bigo by'amashuri, cyangwa ahantu hahurira abana benshi kugirango ngo babashe kubona aho gukinira mu buryo bworoshye kandi babashe kwishima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amamashini atandukanye, kirimo n'ibitanda biriho ibitambaro by'ubururu bigaragaza ko ari icyumba cyo kwa muganga bifashisha bari kuvura abarwayi.

Inyubako ikorerwamo nka farumasi icuruza imiti, harimo utubati tugiye dutandukanye tugiye turimo imiti ipanze mu macupa, n'imiti ipanze mu dukarito, kandi buri gakarito na buri cupa rigiye ryanditseho amagambo agaragaza umuti uri muri iryo cupa, uko witwa n'icyo ukora kugira ngo byoroshye kuyitandukanya.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa mu gihe bari gupima umuntu imbere mu mubiri bashaka kureba niba nta kibazo, aribyo bita kumucisha mu cyuma kugira ngo babashe kumusuzuma aho amaso atashobora kureba inyuma y'umubiri.

Inyubako nini yubatse iteye amarangi y'umuhondo, iriho abantu benshi imbere kuri iyo nyubako hejuru y'urubara ku muryango, handitseho amagambo atwereka ko ari ku kigonderabuzima cya Nyarurenge.

Amarembo ateye irange ry'ubururu handitseho inyuguti ebyiri za ha, imbere y'ayo marembo harimo inyubako zisakajwe amabati y'ubururu ndetse harimo n'ibiti, inyuma y'ayo marembo hari icyapa kitwereka ko ari ku bitaro bya Nyanza.

Icyumba giteguye neza, kirimo imeza, giteretseho mashine, imbere y'iyo meza hari intebe, imbere y'imeza ahandi hari akabati, karimo ibikoresho bitandukanye, bigiye bibitsemo, harimo n'izindi ntebe zo kwicarwaho n'abandi bantu, binjiye bashaka serivisi muri icyo cyumba.

Sale yo kwa muganga irimo ibitanda aho abarwayi baruhukira igihe barwaye harimo imashini zitandukanye kuri buri gitanda harimo n'amarido atandukanye igitanda kugira ngo buri wese abashe kugira ubwisanzure ku gitanda aryamyeho.

Abagore bahagaze imbere y'inzu bambaye imyenda y'abakozi bo kwa muganga, bose bambaye udupfukamunwa, imbere kuri iyo nzu hejuru yabo handitseho inzu y'ababyeyi, bigaragaza ko abo bagore bita kuri abo babyeyi baba bari muri iyo nzu.

Inyubako nini ziri mu kigo kinini gifite ubusitani bunini gifite n'igipangu kinini kuri icyo gipangu hariho icyapa kitwereka ko ari ku bitaro bya Ruhengeri.

Abakecuru bicaye hanze ari babiri, imbere yabo hicaye umuganga wambaye imyenda y'ubururu, wambaye na ga, ari kubapima, bashyize igipimo ku kuboko.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini, kirimo n'ibitanda, kirimo n'amameza, ahantu bakirira abarwayi, iyo umurwayi arwaye bari kumufasha bamuvura kugira ngo abashe gukira kandi abashe kubona ubuvuzi bwiza kandi bugezweho.

Icyumba giteguye neza kirimo imeza iteyeho intebe ku ruhande rwiza rwme ziteyeri intebe hari n'izindi ntebe z'imifariso abantu bashoboraho kwicaramo bari kuganira cyari bategereje.

Igitanda cyo kwa muganga kiryamyeho umurwayi, gishasheho amashuka y'ubururu, imbere ye hahagaze umugabo uri kuzinga supaneti, mu gihe uwo murwayi aryamye kuri icyo gitanda.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bitandukanye byo kwa muganga, aho abarwayi baryama iyo baje kwivuza, igihe bari mu bitaro badashoboye kuba bahita bataha, buri gitanda kigiye kimanitseho supanete birimo n'amarido agenda abitandukanya.

Inzu ikorerwamo na farumasi na medisolo iherereye i kanombe, aho bacuruza imiti y'ubwoko butandukanye. Abantu bajya kugura imiti iyo bayandikiwe na muganga cyangwa bafite ibindi bibazo by'uburwayi bibasaba gukenera imiti.

Kwa muganga ahantu abantu bicara bategereje, iyo bakeneye serivisi kugira ngo bakire umuntu umwe umwe, uko bakurikirana, uko bagiye bahagera, havaho umwe, hajyaho undi kugira ngo babashe kubafasha, babahe serivisi nziza.

Icyumba kinini cyo kwa muganga cyabugenewe kugira ngo kibashe kubika amaraso bafashe, kugira ngo kiyarinde kuba yakangirika mu gihe atarakoreshwa, kandi abashwe kuzaboneka mu buryo bworoshye mu gihe azaba akenewe.

Umuntu wicaye imbere ya mashini irimo ifoto y'imbavu, bafotoye bakoresheje icyuma gifotora umuntu, kikagaragaza ibice by'imbere mu mubiri. Kugira ngo babashe kureba ikibazo bifite, niba uhari igifite indwara, bitewe n'aho ababara.

Imashini yo kwa muganga bifashisha banyuzamo umuntu mu cyuma kugira ngo babashe kumupima barebe indwara afite mu mubiri zitabasha kuba zagaragara inyuma kandi bamufashe kuba yabona ubuvuzi bitewe n'indwara babonye bakoresheje iyo mashini.

Ku ivuriro ahantu bakirira abarwayi batonda umurongo kugira ngo babashe gukurikiranwa, kugira ngo babashe guhabwa ubuvuzi ku buryo bworoshye kandi bwihuse nta n'umwe usigajwe inyuma.

Umugore wicaye, imbere ye hicaye umuganga ufite impapuro mu ntoki, inyuma ye hari mashini ziri kwaka, ari kwandika ibyo abwiwe n'uwo mugore kugira ngo abashe kubona uko amufasha.

Umuntu wicaye ku ntebe yamanuye ishati ku kuboko, imbere hahagaze umuganga wambaye ishati y'umweru wambaye na ga mu ntoki, ari kumutera urushinge ku kuboko ari umuti ari kumuha cyangwa ari kumukingira.

Umwana wicaye mu kayira wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, imbere ye hari inzu nini iteye amarangi y'umweru, iruhande rwayo hari ubusitani burimo ibyatsi n'indabo zitandukanye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye amarinete, ufite igitabo, imbere ye hahagaze umugore wambaye ikanzu y'ubururu utwite, umuganga ari guseka afite igikoresho cyo kwa muganga mu bitugu.

Ahantu abantu bicara bategereje kuba bahakirwa ku kigo nderabuzimahicaye abantu benshi bategereje kugira babashe kuba ba bakakirwa bicaye bakurikiranrana uko bagiye bahagera ku murongo bakira' umwe umwe uko bagenda bakurikirana.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukozi kwa muganga, wambaye ishati n'ingofero y'Umweru, imbere ye hari umwana ari kumwitaho hari n'imashini zimukikije ziri kumufasha kugira ngo uwo mwana abashe kumera neza abasha kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini ifite taburo ebyiri, iruhande rwayo hari imashini ifite icyumba gidafite ibikuta biteye amarangi yumweru harimo n'igitanda, umuntu aryamaho w'umurwayi iyo bari kumufasha.

Icyumba cyo kwa muganga, cyagenewe kubagirwamo abantu bafite ibibazo bisaba kuba babagwa , mo imbere mu mubiri cyangwa inyuma . Kirimo imashini zabugenewe n'ibikoresho byagenewe kubaga umuntu , kugira ngo bibashe kugenda neza.

Umugore urwaye uryamye ku gitanda kwa muganga, imbere ye hahagaze abaganga bari kumuvura, umuganga umwe w'umugore wambaye amarinete, wambaye n'itaburiya y'umweru, wambaye na ga ari kumutera urushinge ku kuboko.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa mu gihe bari gufasha umurwayi bashaka kumunyuza mu cyuma kugira ngo abashe kumupima indwara yaba arwaye imbere mu mubiri bidashobora kugaragara inyuma n'ibibazo yaba afite kugira abashe kubibona abashe kumufasha.

Ahantu hateganyijwe muri Kigali hajyanwa abantu bafashwe bazengerejwe n'ibiyobyabwenge kugira ngo babashe kuza kubibakuramo babaganirize, babashe kuba basubira mu buzima busanzwe mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye; byifashishwa mu gihe abantu bari muri siporo harimo ibyuma byo guterura, harimo amagare yo kunyonga ndetse n'intebe zo kwicaraho mu gihe bari guterura ibyo byuma mu buryo bworoshye kandi bitabavunnye.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro bya Caraes aho bavura abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo babashe kubakurikirana babiteho babahe ubuvuzi bugezweho kandi vuba kugira ngo babashe gukira basubire mu buzima busanzwe.

Umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge, imbere ye hicaye umugabo wambaye imyenda y'abakozi bo kwa muganga, agaragaza ko ari umuganga, igikoresho cy'abaganga mu bitugu ari kuganira n'uwo mukecuru.

Abantu bicaye muri sare batandukanye bicaye ku ntebe bambaye imipira ifite ibirangantego bisa n'imipira y'umuhondo ni iy'ubururu bose bari kureba imbere bateze amatwi umuntu uri kubagezaho ijambo.

Inyubako nini yubatse igeretse kabiri, iteye amarangi y'umuhondo n' ay'ikigina. Yubakisha amatafari ahiye ikorerwamo n'ibitaro byigenga byitwa Sango kiriniki.

Igitanda cyo kwa muganga gishashe n'amashuka y'umweru. Iruhande rwacyo hari imashini yifashishwa mu gutanga ubuvuzi. Hari n'imashini abantu bifashisha bagendaho, birukankaho, kugirango barebe n'iba bari gukira, bari kumera neza.

inyubako ikikorerwaho n'ikigo nderabuzima cya Gisenyi, aho abantu bajya kwivuza, abaturage batuye aho hantu bakeneye ubuvuzi butandukanye mu gihe barwaye, kandi bakeneye gufashwa bakabona imiti mu buryo bwihuse.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge bifite inyubako nini ziteye amarange y'umweru, haririmo n'inyubako zubakishijwe amatafari ahiye ya ruriba zifite ubusitani bunini na parikingi nini.

Umugabo wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga wambaye ishati y'umweru, inyuma hari undi mugabo uri kumusunika wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, ari kumusunika ari kujya kumwinjiza mu muryango.

Inzu nini igeretse kabiri y' ivuriro ryigenga, yubakishije amatafari ya ruriba. Imbere yayo hari parikingi iparitsemo imodoka ku buryo bugiye butandukanye.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa mu gihe bari kunyuza umuntu mu cyuma, bamupima bafotora imbere mu mubiri ngo barebera niba nta ndawara zirimo, zitabasha kubonera inyuma, kugira ngo babashe kumenya ko bamufasha bagendeye ku bisubizo bari bubone, bahawe n'iyo mashini.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibitanda bijye bitandukanye, buri gitanda gishasheho amashuka y'umweru, impande yacyo hari imashini, imbere ya buri gitanda hagiye hamanitse televiziyo.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, abantu bifashisha mu gukora siporo, hariho amagare yo kunyonga, harimo tapi abantu bifashisha birukaho, zikoresha umuriro w'amashanyarazi, n'ibibyuma abantu bifashisha baterura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo agatanda gatoya, ahantu bakirira abana, kugira ngo babafashe babavura, hejuru y'icyo gitanda hari tereviziyo imanitse kuri purafo. Ku nkuta z'icyo cyumba hagiye hashushanyijeho ibipupe birangaza abana.

Inyubako iteye amarangi y'umweru, harimo utubati dutandukanye, buri imbere ya buri kabati, hari ahantu ho gukarabira, ubona ko ari inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bifite isuku.

Inyubako ikorerwamo na farumasi icuruza imiti y'abantu, aho abantu bajya kugurira imiti mu gihe barwaye bayandikiwe na muganga, cyangwa barwaye izindi ndwara zibasaba kujya kugura imiti kugira ngo babashe kuyibona hafi kandi ku buryo bwihuse.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, kirimo n'amamashini, ku bikuta hagiye hariho ibishushanyo bitandukanye bigaragazaga ko ari icyumba bakiriramo abana igihe bari kubavura kugira ngo babashe kubavura bitonze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, kirimo n'amamashini atandukanye, aho babasha kwifashisha izo mashini, bari kuvura umurwayi, mu gihe arwaye ari muri icyo cyumba.

Abakobwa batatu bahagaze bambaye amataburiya y'ubururu, bambaye n'utugofero tw'umweru mu mutwe bigaragaza ko ari abakozi bo kwa muganga bafite inshingano bakora kugira ngo babashe kwita ku barwayi babashe kubafasha.

Inyubako nziza isa neza, imbere hateretse indabo ku rubaraza, iruhande rwayo hateye indabo muri jaride, hejuru y'urubaraza rwaho handitseho amagambo atwereka ko ari Craes, ku kigo cyita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Ikigonderabuzima cya Tabagwe kifashishwa n'abaturage batuye aho hantu kugira ngo babashe kubona ubuvuzi bwihuse kandi vuba mu buryo bworoshye bitabagoye.

Inyubako ya farumasi irimo utubati turimo imiti itandukanye, iri mu macupa n'iri mu dukarito aho abantu bajya kugurira imiti iyo bayandikiwe na muganga, cyahise bafite ubundi burwayi bakeneye imiti yo kwifashisha,

Inyubako ifite parikingi nini irimo yubakishije amapave ininyubako isakaje amabati atukura ateye amarangi y'umweru n'ay'umukara imbere yayo hari amadarapo abiri ari idarapo ry'u Rwanda n'irindi darapo ry'umweru kuri iyo nzu hari icyapa cyanditseho ngo Rwanda cidireni.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda umurwayi aryamaho iyo arwaye, impande y'icyo gitanda hari imashini zitandukanye zifashishwa mu guha ubuvuzi, umurwayi urwariye muri icyo cyumba.

Imashini nini yo kwa muganga bifashisha banyuzamo umurwayi bagiye kumupima ngo bamupime imbere mu mubiri barebe nimba nta kibazo afite imbere mu mubiri bakoresheje iyo mashini bamusuzuma.

Inzu nani yagenewe gukorerwamo inama, ibiganiro cyangwa se n'ibindi birori, hateye ntebe ku buryo bukurikiranye, hiteye neza kuva hasi ukagera hejuru kugira ngo uri inyuma abashe kureba imbere neza.

Umugabo wicaye ku gitanda wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara, yambaye urukweto rumwe urundi yarukuyemo, imbere hicaye umugore ari kumufasha, ari kumuzirika ku kirenge ahantu yavunitse.

Agakoresho gafasha abantu gutanga ubufasha mu gihe umuntu yagize ikibazo adashobora kwigenza, bakamuryamishaho bakamuterura, umwe agahagarara imbere undi agahagara inyuma kugira ngo babashe kumugeza aho ari bubonere ubufasha mu buryo bwihuse.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa mu gihe abantu bari gukora siporo harimo ibyuma byo guterura, harimo amagare yo kunyonga, n'amatapi yo kwirukankaho akoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, bigakoreshwa kugira ngo umuntu abashe kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo, uhagaze ku zuba araramye ari kunywa amazi ari kuruhuka, inyota yarimwishe izuba ryari ryakomeye ari kugira ngo agabanye ubushyuhe bw'umubiri.

Umuntu wicaye yazamuye ukuguru kw'ipantaro, afite agatambaro mu ntoki, ari kugenda akanda mu ivi, biragaragara ko hagize ikibazo, ari kwifashisha ako gapamba kuhakanda kugira ngo abashe kugabanya uburibwe.

Igikoresho kifashisha gukuraho ibinure ku nda, kugira ngo umuntu abashe kugira inda ikomeye, ifite abudomino nta bintu byo kugira ibinure ku nda, bishobora gutera indwara zitandukanye, bikagira n'ingaruka zitari nziza ku mubiri w'umuntu, no ku buzima bwe.

Ibikoresho byo kwa muganga bigiye bitandukanye, bifashisha mu gihe bari gusuzuma umurwayi, bareba uburyo ubuzima bwe buhagaze, kugira ngo babashe kumenya uko bamufasha n'uko bamukurikirana, bitewe n'uko basanze ameze bifashishije ibyo bikoresho.

Umuntu wambaye imyenda ya siporo, wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko maremare w'ikigina, yambaye n'inkweto zifunze, apfukamye yashinze ivi hasi rimwe, irindi yarizamuye hejuru yashyizeho ibiganza, ari kurikanda afitemo uburibwe.

Umukobwa uri muri siporo wambaye ipantaro yubururu n'isengeri y'umweru yashyize ukuguru imbere k'undi gupfukamye yashinze ivi yazamuye amaboko hejuru ari kwigorora.

Igikapu kirimo ibikoresho bitandukanye, kirimo n'imiti bifashisha mu gihe igiye gutanga ubutabazi bw'ibanze, igihe hari umuntu ugize ikibazo mbere yuko agezwa kwa muganga.

Umukinnyi wunamye mu kibuga apfukamishije amaguru yagize ikibazo, imbere hari abagabo bafite ibitambaro by'umweru mu ntoki bari kumuganiriza bamufashe ku rutugu.

Abantu bateraniye ahantu hamwe imbere yabo hahagaze umuganga, imbere y'uwo muganga hari imashini iri kugaragaza amashusho, umuganga ari kuyifashisha asobanurira abo bantu bamwicaye imbere bateze amatwi.

Ga zambarwa mu kiganza mu gihe umuntu agiye gukoresha ibintu intoki, yirinda ko zamukomeretsa cyangwa bikamutera amabavu ku kiganza kugira ngo abashe kwirinda ibyo bibazo byose mbere y'uko byamugeraho.

Umuntu wicaye ku kagare yambaye imyenda ya siporo. Yambaye inkweto za siporo ubona ko yakomeretse yagize ikibazo cy'imvune, agiye kumufasha kumuvura kugira ngo abashe kuvurwa hakiri kare nta kibazo aragira kimugarukaho mu mvune yagize.

Mu gihe wicaye uri mu kazi bari kutwereka siporo ushobora gukora, kugirango ubashe kuba wariren urutirigongo rwawe kuba rwakangirika, bitewe n'ibibazo byo kuba wiriwe wicaye utarugorora udahaguruka, ukagenda ukora izo siporo kugira ngo zigufashe kuba warugorora ukarurinda.

Agasanduku karimo ibikoresho bitandukanye umuntu ashobora kuba yakwifashisha mu gihe yaba ari gutanga ubutabazi bw'ibanze, harimo imiti, harimo n'ibikoresho bitandukanye, harimo na bande ndetse n'amavuta yo kwisiga.

Abagabo babiri bambaye amajiji atukura y'abantu b'abakorerabushake batanga ubutabazi bwibanze, bateruye umuntu mu maboko wambaye ipantaro y'umukara umupira w'umuhondo bari bagiye kumuha ubufasha.

Agasanduku bakoresha batwaramo imiti cyangwa ibikoresho byifashishwa mu gihe bari gutanga ubutabazi bw'ibanze, harimo imiti itandukanye harimo n'ibikoresho bitandukanye, bashobora guhita bafashisha umuntu mbere y'uko agera kwa muganga.

Umugabo uri muri siporo; wambaye ipantaro y'umukara irimo amabara y'umweru, wambaye n'inkweto z'umweru n'amasogisi y'umweru, wambaye n'amayekuteri mu matwi, ari muri siporo yigorora, amaboko yayashyize ku mavi ukundi kuguru yagushyize inyuma.

Icyumba kirimo ibitanda bigiye bitandukanye bikurikiranye, hicayeho umugore wambaye ibitenge, imbere ye hari umwana w'umukobwa, wambaye imyenda y'imyeru ari guseka ubona ko yishimye.

Ikirahure giteretse ahantu bari kugisukamo amazi bayakura mu ijage bayasuka muri icyo kirahure, kugira ngo umuntu ayakeneye abashe kuba yayanywa, yabashe kuba yayakoresha ikindi kintu akeneye kuyakoresha.

Umukobwa uri muri siporo yicaye ahantu mu twatsi, yarambuye amaguru, yunamye amaboko ayafatishije ku birenge, ari gukoza umutwe ku mavi kugira ngo abashe kugorora umugongo n'amaguru.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku, cyifashishwa mu gutwara ibikoresho n'imiti yo gukoresha mu gihe abantu bari gutanga ubufasha bw'ibanze. Igihe umuntu ahuye n'ikibazo bakamufasha mbere y'uko agezwa kwa muganga.

Umuntu uri muri siporo yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, apfukamye kuri tapi yashyize amaboko imbere n'umutwe yawushyize imbere, ari kwinanura.

Umugore uri muri siporo yicaye hasi yambaye ipantaro y'ubururu n'isengeri y'ubururu, yarambuye amaboko ari ku yakoza imbere kumano ari kwigorora.

Abantu bateranye bari muri siporo harimo abagore n'abagabo, bose bagendera ku m'umuntu umwe, imbere yabo hari umuntu uri kuberekera uko bazikora abereka uko bagenda n'uko bagaruka.

Igikapu gifite ibara ritukura cyifashishwa mu gutwara imiti, n'ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu gihe bari gutanga ubutabazi bw'ibanze mu gihe hari umuntu ugize ikibazo atari kwa muganga kugira ngo babashe kumufasha mbere yuko agezwa kwa muganga ahari bubonere ubufasha.

Umuntu uri muri siporo wambaye ikabutura, wambaye isaha y'umweru hejuru yambaye ubusa, ari kwigorora ukuboko kumwe agufatishije amano, ukundi yagufatishije hasi.

Imeza iteretseho ibintu bitandukanye, hariho inkweto n'ibikoresho bakoresha bakora siporo, hariho icupa ry'amazi, hari n'umuntu uteruye imboga n'imbuto mu kiganza, hariho avoka, urusenda, n'izindi mbuto zitandukanye, orange hariho na bande bakoresha bafashe umuntu wavunitse.

Umugabo wicaye ahantu, wambaye ikabutura y'umukara n'inkweto zifite amabara yumukara nay'ururu hamwe n'agapira k'ubururu ufite agasane k'umuhondo mu bitugu, ufite terefone mu ntoki ari kunywa amazi yicaye ku zuba bigaragara ko yararimo aruhuka.

Umukobwa wicaye ku buriri, wambaye ipantaro y'umukara, wambaye n'isengeri y'umukara, ari kwinanura, yazamuye amaboko hejuru, afunze igipfunsi. Mu gihe abyutse, yitegura kujya muri siporo.

Umuntu uryamye ku buriri bushasheho amashuka y'umweru yarambuye ukuguru kumwe ukundi yaguhinye, imbere ye hahagaze umuntu wambaye ishati y'umukara, ari kumukanda ku kuguru ahereye mu ivi, ari gukoresha igitambaro cy'ubururu afashe mu ntoki.

Umugore uri gikora siporo wambaye ipantaro y'ubururu isengeri y'icyatsi kibisi n'amasogisi y'umweru n'inkweto z'amabara y'umweru n'umutuku n'umuhondo, yazamuye ukuguru yagufatishije ukuboko, kumwe ukundi kuboko yakurambuye imbere ari kwinanura.

Umugabo uhagaze ahantu mu gicucu bigaragara ko ari muri siporo. Yambaye umupira w'umukara, afite icupari ari kurinyweramo amazi, ari kuruhuka ari kuruhura umubiri mu gihe yari ari muri siporo ananiwe.

Umuntu umuntu uteruye ijage y'ikirahure irimo amazi, ari kuyasuka mu kirahure giteretse hasi, kugira ngo abashe kuyakoresha, ari ushaka kuyanywa cyangwa urusha kuyakoresha ibindi kandi amazi ari ingirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu ufite icupa ry'amazi arikoywa amazi agaragara nk'uwari uri muri siporo akaba yari ananiwe, akaba yarimo aruhu umubiri akanywa amazi kugira ngo abashe kuwugabanyiriza ubushyuhe.

Umugore uhagaze ku mazi wambaye ipantaro y'umukara hamwe n'isengeri y'umweru, yazamuye amaboko ari kwigorora ubona ko ari muri siporo, ari mu gitondo, ari kuyikorera ahantu ku mazi hatuje.

Agasanduku karimo ibikoresho by'ibanze, umuntu ashobora gukenera mu gihe ari kwifashisha, atanga ubutabazi bw'ibanze, harimo imiti iri mu dukarito ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa.

Ku meza iteretseho ibintu byinshi bitandukanye, harimo imboga n'imbuto, harimo n'icyuma abantu bifashisha, bari gukora siporo, bagiterura, harimo n'icupa bitwazamo amazi.

Imashini yo kwa muganga, bifashisha bayinyuzamo umuntu iyo bagiye kumunyuza mu cyuma kugira ngo babashe kumupima indwara afite mu mubiri zitabasha kugaragara inyuma kugira ngo babashe kubona uko bamufasha nibamara kuzimenya.

Umugabo wicaye yambaye ikabutura y'umukara afite ipamba ry'ubururu mu gashashi ari kurikoresha yikanda mu ivi kugirango abashe kugabanya uburibwe no kwirinda ko yabyimbirwa.

Umugabo uhagaze ku zuba yambaye nk'umuntu uri muri siporo wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, wampaye n'akantu k'ubururu ku kuboko afite amazi mu ntoki ariko uyimenaho mu maso mu mu gihe izuba rimeze nabi yari ashyushye.

Agatanda baterura mu ntoki batwayeho umuntu ugize ikibazo urwaye cyangwa ukoza impanuka mu gihe atabasha kwigenza n'amaguru, bakamushyiraho bakakamuryamishaho kugira ngo babashe kumugeza aho ari bubashe guhabwa ubufasha ku buryo bworoshye kandi bwihuse.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuba watanga ubutabazi bw'ibanze harimo igikapu cyo kubitwaramo, harimo imiti, harimo n'ibikoresho bitandukanye ushobora kwifashisha mu gihe uri gufasha umurwayi.

Imeza iriho ibintu bitandukanye hariho ibyo kurya hariho ibikoresho bifashisha bari gukora siporo, hari icupa ry'amazi hariho agasume, n'ibyo kurya harimo imbuto n'imboga, n'amagi ndetse n'inyama.

umuntu wicaye ,imbere ye hahagaze undi muntu uri kumufasha kuzirika mu kiganza. Agaragaza ko yagize ikibazo mu ntoki ,yakomeretse cyangwa ari kwirinda ikintu cyaza kuba cyamukomeretsa mugihe hari ikintu agiye gukora akoresheje ibiganza bye.

Ibintu byakurikizwaga mu gihe cyo kwirinda covidi cumi n'icyenda, aho byasabwaga kuguma mu rugo, ukirinda kuva mu rugo, ukibuka gukaraba intoki, ukibuka kwambara agapfukamunwa, ukirinda gusuhuzanya n'umuntu umukoze mu ntoki, ukibuka gukaraba amazi meza n'isabune kandi amazi atemba kandi waba uri kuganira n'umuntu mugashyiramo metero.

Umugabo uri muri siporo wambaye isengeri y'ikigina ari kunywa amazi ahagaze ari kuruhuka mu gihe yari ananiwe.

Agatanda bakoresha bafasha umuntu mu gihe arwaye adashobora kwigenza bakakamuryamishaho abantu babiri bakamuterura, umwe agahagarara imbere undi agahagarara inyuma kugira ngo babashe kumugeza aho abasha kubonera ubufasha bwo kwivuza.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, harimo intebe zo kuryamaho mu gihe bari guterura ibyuma, harimo n'amagare yifashishwa banyonga bari muri siporo.

Umugore uri muri siporo yicaye hasi kuri tapi. Yambaye ipantaro y'umweru, n'isengeri y'umweru arigukora siporo yigorora. Yarambuye ukuguru kumwe ukundi yaguhinnye arigukoza umutwe ku ivi ry' ukuguru kurambuye.

Umuntu wunamye ku zuba, yambaye imyenda igaragaza ko ari muri siporo, yambaye ikabutura, n'inkweto z'icyatsi kibisi, n'isengengeri y'icyatsi kibisi, yunamye, yifatishije amaboko ku mavi.

Umuntu wicaye ku gitanda, yazamuye ukuguru kw'ikabutura, ukuguru yakuzamuye agushinze, imbere ye hahagaze umuganga wambaye ishati y'umweru, ari kumukanda mu ivi bigaragaza ko yagizemo ikibazo, yavunitse aharwaye ari kuhababara.

Umuntu uri muri siporo wambaye isengeri ikabutura n'inkweto zifunze ari mu nzira yagenewe gukorerwamo siporo ari kugenda asimbuka imigozi ava mu kazu kamwe ajya mu kandi ariko agenda adusimburanya.

Uducupa tw'umweru turimo imiti yifashishwa tugiye dufite ibyapa bitwometseho bigaragaza iyo miti irimo icyo ikora, ko ari imiti yifashishwa mu gihe abantu bari kugabanya uburibwe.

Umugabo uri muri siporo uri kuyikorera kuri tapi, yambaye ikabutura y'umukara, isengeri y'umukara, apfukamishije ivi rimwe, ukundi kuguru yakurambuye imbere guhagaze, ivi riri hejuru ari kugenda yigorora.

Umugore wambaye imyenda yo kwa muganga wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa, yambaye na ga z'ubururu mu ntoki, afite n'agakoresho kwa muganga agafite mu bitugu, imbere ye ku meza hateretse mashine.

Umugabo wicaye ku gitanda, yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara, yakuyemo urukweto rumwe ku kirenge, imbere ye hahagaze umugore wambaye ishati itukura, bigaragaza ko ari umukozi wo kwa muganga, ari kumufasha kumuvura, bigaragaza ko yavunitse ikirenge.

Umugabo wavunitse ikirenge yicaye ahantu hejuru ku meza yashyize amaguru imbere imbere ye hahagaze undi mugabo uri kumufasha kuzirika ahantu yavunitse kugira ngo habashe gukira abashe gusubirana.

Umuntu uryamye ku gitanda wambaye ipantaro y'umukara, imbere ye ahagaze umuganga wambaye ishati y'ubururu yafashe akaguru ari kugenda arambura imitsi yafashe mu kirenge kandi kaboko ga afatishije amavi munsi gato ku itako.

Umuntu wambaye imyenda ya siporo, yicaye hasi munsi y'igicucu, yambaye isengeri y'umukara ari kunywa amazi, ari kuruhuka mu gihe yari ari muri siporo amaze kunanirwa.

Abagabo babiri bahagararanye; umwe yateze ikiganza undi ari kumufasha kumwambika ga ku ntoki, kugira ngo abashe kwirinda ibintu byaza kumwangiza mu kiganza, biturutse hanze bitewe n'ibintu agiye gufata.

Umugore uri muri siporo wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara wambaye n'inkweto zifunze z'umweru yambaye koteri mu mutwe, ari kwigorora ari gukoza amaboko ku kirenge imbere ku mano.

Imeza iteretseho ibintu bitandukanye. Harimo ibyo kurya, aharimo imboga, harimo imbuto, harimo amagi, harimo n'inyama. Ku ruhande hateretse n'ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo. Harimo ibyuma byo guterura na tapi yo korerayo siporo.

Umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru afite agakoresho ko kwa muganga mu bitugu, mu ntoki ze afite umupira wa balo bifashisha bari gukora siporo.

Umugabo n'umugore bari muri siporo bahagaze ahantu umwe yegamye ku wundi bari kunywa amazi, bigaragaza ko bari bananiwe bakaba bari kuruhuka mugihe bari muri siporo.

imashini yo kwa muganga yifashishwa mu gihe bari gupima umurwayi arwaye kugirango ngo babashe kureba uko umutima we utera, niba uri gutera neza cyangwa uri gutera nabi babashe kumenya ubufasha bamuha.

Imodoka y'imbangukiragutabara yifashishwa mu gihe hari umurwayi ugize ikibazo, igihe arwariye mu rugo cyangwa arwariye kure yo kwa muganga adashobora kuhagera, arembye cyane bikamufasha kumuha ubufasha bw'ubutabazi bw'ibanze mu gihe ataragera kwa muganga abamutwaye bari mu nzira.

Umuntu uhagaze ku zuba hashyushye izuba ryabaye ryinshi, yakuye umupira yawambaye bitugu ari kunywa amazi ari kuyanywera mu icupa rya palasitike ry'umweru rifite umufuniko w'ubururu.

Umugabo uri kunywa amazi ari kuyanywera mu icupa rya purasitike kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza abashe kubona amazi ahagije mu mubiri, kuko amazi ni meza afasha umubiri mu buryo butandukanye.

Ahantu hateretse ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hari igikapu gitwara imiti, abantu bashobora kwifashisha bari gutanga ubutabazi bw'ibanze bwihuse, hari n'ibikoresho bijya muri icyo gikapu, harimo bande, harimo ibinini, harimo imikasi, harimo n'inshinge zo kwifashishwa muri icyo gihe.

Umuntu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, afite agatambaro k'ubururu mu kiganza, ari kugakandisha mu nkokora, bigaragaza ko yababaye afite uburibwe mu nkokora ari gushaka gukanda kugira ngo habashe kugabanuka abashe gukira.

Umugore wicaye ahantu hamwe wambaye umupira w'umweru, ufite agatambaro k'ubururu mu ntoki yagafatishije ukuboko ari kuhakanda bigaragaza ko hafite uburibwe ari kugira ngo bugabanyuke.

Ibikoresho byifashishwa mu gihe bari gufasha umuntu kugororangingo, igihe agize ikibazo cyo kuvunika bakamufasha kumwambika ku kuguru kugira ngo babashe gusubiza igufwa ryagize ikibazo mu murongo.

Umugabo uhagaze ateruye icyuma mu ntoki ari muri siporo, iruhande rwe hari ibintu yifashisha kugirango abashe kugira intungamubiri nziza, kugirango abashe kugira umubiri mwiza, harimo imboga, imbuto, n'amagi, n'inyama n'amazi yo kunywa.

Umugabo uri muri siporo uhagaze uri kuruhuka yegamye ku gikuta, yambaye kuteri mu matwi, ari kunywa amazi, ayanywera mu icupa rya parasitike, ahagaze ahantu ku zuba.

Abana bari mu kibuga kinini bari muri siporo imbere yabo hahagaze umuntu kubafasha gukora siporo uri kuberekera uko bazikora muburyo bwa nyabwo kandi bukwiriye.

Umuntu wicaye afite utwuma mu ntoki bifashisha bari gukora siporo aduterura imbere ye hahagaze umuganga wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara ari kumufasha gukora siporo agorora ingingo.

Umugore uhagaze ku zuba wambaye isengeri yakuyemo umupira yawushyize ku rutugu ari kunywa amazi, ubona ko izuba ari ryinshi yari yagize inyota nyinshi akaba ari kunywa amazi arikuruhura umubiri kugira ngo ubashe kugabanya ubushyuhe.

Ahantu hateretse imiti igiye itandukanye n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi n'amacupa arimo imiti harimo amakarito arimo imiti n'ibinini hari na bande abantu bifashisha mu gihe bari kuzirika umuntu yagize imvune kugira ngo abashe gukira vuba..

Igikapu gifite ibara ry'umutuku kirimo ibikoresho bitandukanye harimo imiti igiye itandukanye byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze mu gihe umurwayi cyangwa umuntu agize ikibazo mbere yuko abasha kuba yagezwa kwa muganga.

Umugore uri muri siporo wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, imbere ye hateretse mashini yicaye kuri tapi iruhande rwe hari udukoresho tw'utwuma bifashisha bari gukora siporo iruhande rwe hateretse n'icupa ryamazi.

Ahantu hateretse imiti itandukanye, igiye iri mu ducupa dutandukanye, iri mu dukarito n'iri mu dushashi, hari na ga, hari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hifashishijwe imiti mu gihe abantu bari muri siporo, imiti yifashishwa bavura umuntu ugize ikibazo ari muri siporo.

Uduhasane tugiye turiho imiti itandukanye, ifite amabara atandukanye, yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe bari kuvura indwara zigiye zitandukanye, bifashishije iyo miti bakayisekura, bakayivanga, ikabyara imiti bakoresha.

Imeza iteretseho uduti dutoya dufite amababi mato mato utwo duti twifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye bitewe n'umuti wawukozemo icyo ugamije kuvura.

Agacupa gafite ibara ry'umweru, kariho ifoto y'icyatsi, kifashishwa mu gukora imiti, iryo icupa ririmo umuti bakoresha bari koza amenyo kugira ngo bayarinde indwara kandi asa neza.

Igiti cy'umuravumba amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo; bifashisha bavura indwara zitandukanye mu buryo kandi bugiye butandukanye; kugira ngo babashe gufasha abantu kubavura.

Umugabo uhagaze ahantu hacururizwa imiti ya gakondo, harimo utubati tugiye turimo imiti igiye iteretse hejuru y'iyindi, abantu bifashisha mu buvuzi bavura indwara zigiye zitandukanye bakoresheje imiti ya gakondo.

Ibiribwa bitandukanye byifashishwa kuba umuntu yagira ubuzima bwiza, bigakorwamo n'imiti yafasha umuntu kuba yakivura indwara zitandukanye, harimo urutunguru, indimu ndetse n'amavuta.

Amashu ni imboga rwatsi abantu barya zibafasha kongera intungamubiri, zigatuma umuntu arya ifunguro ryuzuye ririho imboga kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza no kwirinda ibindi bibazo byaterwa n'imirire mibi.

Icyapa cyanditseho amagambo gifite ibibabi by'icyatsi kibisi, inyuma yacyo ndetse amagambo atwereka ko ari imiti ya gakondo byira bikoreshwamo.

Ubuki bavugaho bwifashishwa mu bintu byinshi bukoreshwa nk'umuti igihe bari kuvura abantu indwara zitandukanye barabwifashisha mu buryo bworoshye kandi bwihuse bugatanga umusaruro.

Ameza ateretseho uducupa dutandukanye n'igikombe kirimo ibibabi by'ibyatsi n'imbuto, imbere yaho hari utundi ducupa tw'ikigina, imbere yaho hari agasekuru ka kizungu bifashisha bari gusekura ibyo byatsi kugira ngo babashe kubikuramo imiti ya gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta akorwa mu bimera byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo; indwara z'uruhu kugira ngo uruhu rubashe kugumana ubuzima bwiza akozwe mu gikakarubamba.

Imbuto n'ibibabi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo indimu harimo n'ibibabi by'ibiti bigiye bitandukanye, birimo umubirizi ndetse n'ibindi biti bitandukanye, amababi yabyo yifashishwa mu gukora imiti.

Icupa rifite umufuniko w'umuhondo ufungishije agashashi mu imbere harimo umuti ukorwa mu muravumba wifashishwa mu kuvura indwara bakoresheje imiti y gakondo.

Imeza iteretseho umusambi, uriho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, hariho ibibabi n'imbuto biri mu bwoko butandukanye, hariho n'agasekururo kifashishwa mu gihe bari gusekura iyo miti kugirango ibashe kuba yakoreshwa.

Ahantu bacuruza imiti ya gakondo hari utubati tugiye dupanzemo imiti, amacupa agiye ari ukwayo, kandi buri cupa rigiye rifite icyapa cyometse kuri buri cupa kugira ngo ubashe kubitandukanya kandi rigaragaza n'icyo umuti uri muri iryo cupa uvura.

Umuntu wicaye ku musambi afite agasekuru gato mu ntoki karimo ibibabi ariko kugenda bisekura imbere hateretse n'utundi dusahani tugiye turiho ibintu bitandukanye yifashisha ari gukora imiti ya gakondo.

Ahantu hateretse ibikoresho bitandukanye, hariho imbuto zitandukanye hariho n'ibibabi hariho agasekururo ka kijyambere bifashisha mu gihe bari gusekura imiti, harimo n'amacupa bifashisha bari kubika imiti, iyo bari gukora imiti ya gakondo.

Ineza itegetse udusoro dutandukanye tugiye turimo imbuto zitandukanye zifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe bari kuvura indwara zigiye zitandukanye bifashisha iyo miti. Barayisekura bakayishyira mu gacupa kugira ngo ibashe kuvamo umuti wavura indwara

Amacupa agiye atandukanye, arimo ikawa yifashishwa mu gukora icyo kunywa, kirimo umuti bakoresha bari kwivura indwara zigiye zitandukanye, mu gihe umuntu afite ikibazo cy'uburwayi.

Ahantu mu ishyamba harimo igiti kinini, gifite amashami menshi, gifite amababi y'icyatsi kibisi amababi yacyo yakwifashishwa mu gukura imiti ya gakondo abantu bifashisha mu buvuzi.

Imeza iteretseho ibintu bitandukanye, iteretseho agasorori, iteretseho imbuto ziri ku bibabi, zigiye zitandukanye zifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, abantu bifashisha bavura indwara zigiye zitandukanye.

Umuravumba ni igiti gikura kikagira amababi abyibushye manini y'icyatsi kibisi, kikifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe bakeneye kuvura indwara zitandukanye, harimo inkorora harimo ibicurane n'izindi.

Imeza iteretseho udupapuro tugiye dutandukanye, buri gapapuro kagiye kariho imbuto n'ibibabi, imbere yaho hari agasekuru bifashisha mu gusekura izo mbuto kugira ngo babashe kuzikuramo imiti ya gakondo bifashisha mu buvuzi.

Ahantu hari ibiti bifite indabyo z'umweru bifite n'amababi y'icyatsi kibisi byifashishwa mu gukora imiti, ari izo ndabyo n' ibyo bibabi bakabyifashisha bari gukora imiti ya gakondo kugirango babashe kuvura indwara zitandukanye.

Ahantu hateretse imiti itandukanye, iri mu ducupa dutandukanye no mu bikarito bitandukanye, hari umuti wo mu gakarito kariho umugore wambaye ikabutura, wambaye n'isengeri igaragaza ko hari umuti ufasha abantu gukora siporo, ni imiti irimu macupa y'umuhondo yifashisha.

Tungurusumu, igikoresho gikoreshwa bakora imiti ya gakondo, bifashisha mu gihe bari kuvura indwara zigiye zitandukanye, bakoresheje imiti ya gakondo igiye itandukanye.

Ahantu hateretse ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe bari gukora imiti ya gakondo bayikuramo ibinini bakayikuramo imiti yo kunywa harimo ibibabi n'imbuto byifashisha.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi n'indabyo zitukura n'iz'umuhondo n'iz'umweru bi biteye ahantu mu gisambu, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo bari kuvura indwara zitandukanye.

Ku gasozi mu ishyamba, ahantu harimo igiti giteyemo, igiti amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe bari kuvura abantu bifashishije ibimera.

Ibintu bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo harimo imbuto, harimo n'ibibabi by'ibiti bigiye bitandukanye, harimo tungurusumu, tangawizi n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo bakoresha iyo bari kuvura abantu.

Imeza iteretseho agakombe karimo umutobe w'imbuto, harimo n'indimu ikatiyemo, hariho n'imbuto zikatiye ku ruhande, ziteretse kuri ako gasahane, gateretseho ako gakombe karimo umutobe.

Abantu bari mu murima uteyemo imyaka itandukanye, imbere yabo hari imashini zifashishwa mu buhinzi kugira babashe kongera umusaruro, ku buryo bwihuse kandi vuba kandi byoroshye.

Uducupa dufite amabara atandukanye, amabara y'umweru, amabara y'umuhondo, harimo n'igikarito, kandi buri cupa rigiye rifite amagambo yanditseho agaragaza icyo iryo cupa umuti urimo ukora, harimo n'amacupa arimo imiti bakoresha boza amenyo.

Akabati karimo imiti itandukanye, igiye iri mu macupa atandukanye, harimo amacupa y'umweru, amacupa y'ikigina, ndetse n'amacupa y'ibirahure, arimo imiti ya gakondo bifashisha mu buvuzi bwa gakondo.

Amacupa agiye apanze aryamishije hasi, buri cupa rigiye ryometseho igipapuro kigiye cyanditseho amagambo agaragaza ikintu kiri muri iryo cupa, ko ari imiti kandi buri gipapuro kigiye kigaragaza uwo muti uri muri iryo cupa indwara uvura izo ari zo.

Umuravumba wifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, bavura indwara zitandukanye, bawukoresha ari mubisi cyangwa bakawukoresha barawutunganyije mu buryo butandukanye, ari ifu cyangwa n'ubundi buryo.

Umuntu wicaye imbere ye hari meza yarambitseho amaboko mu kiganza kimwe afite igikarito, ikindi kiganza afite agashashi karimo ibinini byifashishwa mu gihe bari kuvura umuntu bari kumwitaho mu gihe arwaye.

Udukarito turi mu mabara atandukanye amabara y'ubururu amabara y'umweru n'amabara y'icyatsi kibisi utwo dukarito turimo imiti abantu bifashisha mu kuvura indwara zitandukanye.

Ahantu hasi ku makaro hateretse amacupa atandukanye nk'ibikarito, amacupa, n'ibyo bikarito hagiye harimo imiti abantu bifashisha mu buvuzi bwa buri munsi nk'imiti ya gakondo.

Akabati karimo amacupa y'imiti igiyetandukanye agiye apanze ku buryo amwe ari hejuru y'ayandi, amacupa afite amabara atandukanye kandi kuri buri cupa hagiye hariho icyapa kigaragaje umuti urimo uwo ariwo n'icyo ukora.

Agasekuru kifashishwa mu gusekura ibintu bike. Ari gusekura utuntu turi muri ako gasekuru k'umweru. Impande ye, harunze ibintu byinshi hamwe n'imboga n'imbuto, ibintu byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo.

Ikibabi giteretse ahantu gifite ibara ry'icyatsi kibisi, hejuru y'icyo kibabi hateretse aho ibinini bifunze mu dushashi bigaragaza ko ibyo binini bikorwa muri icyo kibabi kugirango ubashe kuvura abanu.

Ibimera birimo ibiti bifite amababi y'icyatsi kibisi, n'ibifite amababi y'icyatsi kibisi bifite indabyo z'umuhondo, n'izitukura, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, kugira ngo abantu babashe kuyikoresha bivura indwara zitandukanye.

Imeza iteretse ibirahuri bibiri, buri kirahure cy'igihe kirimo amazi n'ibibabi, bigiye bitandukanye, ibyo bibabi nayo mazi byifashishwa ari umuti wo kuvura indwara zitandukanye bifatishije, ibyo bibabi bari gukora umuti wa gakondo.